Abantu bambaye imyenda y'ubwirinzi bw'ibyorezo byandura vuba iba ipfutse hose, bari kwita ku baturage b'ingeri zitandukanye uko bikwiye n'uko babifite mu nshingano zabo.

Umutegarugori wambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, ari guterwa urushinge n'umuganga ubifite mu nshingano wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Abana b'abanyeshuri harimo abakobwa n'abahungu bambaye iniforume bari kuvoma amazi ku mariba atatu bakoresheje ibivomesho arizo ndobo z'umuhondo zibari imbere.

Umugabo n'umugore utwite bari guhabwa inama zo kwita ku buzima bw'umugore utwite bazihabwa n'umudamu ubicaye imbere, wambaye itaburiya y'ubururu, ufite igipapuro mu ntoki kiriho amashusho n'amagambo.

Umutegarugori wambaye ingofero mu mutwe, agapira kiganjemo amabara y'ubururu n'umweru. N'igitenge, ari gukarabira kuri kandagira ukarabe imbere y'umuryango, ko afite akamwenyu ku maso.

Abana batoya b'abanyeshuri bambaye iniforume za kacye, harimo abakobwa n'abahungu, bari gukarabira intoki kuri robine, ifite robine zitandukanye.

Umutegarugori wambaye ikarita imuranga mu ijosi n'amarinete, ufite igikapu mu ntoki, ari kugenda atanga ibipapuro ku baturage, byanditseho ibintu runaka yifuza ko bamenya.

Iriba rusange rifite amasoko abiri, hariho umwana uri kunywa amazi, ateze ibiganza bibiri, hasi hariho n'indi ndobo iri kugwamo amazi kuri iyo soko uwo mwana ari kuvomeraho.

Umutegarugori ari koza umwana, amwogereza mu ibase ku iriba rusange aho ari kumwe n'undi mugore mugenzi we n'abandi bana babiri na bo bari ku iriba rusange, baje kureba serivise zitandukanye harimo kuvoma, abari kumesa, iriba riri ahantu mu giturage aho buri wese aza akavoma uko ashaka.

Abategarugori batatu, babiri muri bo bambaye udupfukamunwa tw'umweru bari koza icyapa bakoresheje amazi ari mu majerekani, icyo cyapa kiriho ibirangantego byo kwa muganga n'izindi serivisi batanga zitandukanye.

Icyumba giteraniyemo abaturage, bari gufashwa n'abaganga bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamuma tw'ubururu, mu kubatera inshinge, bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Umwana w'umukobwa ufite akamwenyu mu maso, yateze ibiganza bibiri ku isoko biri kumenekamo amazi. Iruhande rwe hari amajerekani abiri manini n'indi imwe ntoya, imwe y'ubururu n'indi y'umuhondo n'indi ntoya.

Umwana w'umukobwa wambaye iniforume ziganjemo shokora ari gukaraba intoki akarabira kuri kandagira ukarabe amazi agwa mu kabase k'icyatsi kari munsi ya kandagira ukarabe, uwo mwana afite akamwenyu ku maso.

Umwana w'umuhungu ari kuvoma amazi ku iriba akoresheje ijerekani, inyuma y'iryo riba, hari umutegarugori uri kumufasha amanura icyuma gifasheho, iruhande rwabo hari abaturage harimo abagabo abagore n'abana, bitegereza uko uwo murimo ukorwa.

Itsinda ry'abantu riteraniye mu cyumba cy'inama harimo abagore n'abagabo bicaye imbere yabo bafite ibyo kunywa, umwe muri bo afite indangururamajwi ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umutegarugori yicaye hasi, mu ntoki afitemo ibimera, yambaye inkweto zifunze, iruhande rwe hari amacupa y'amazi abiri n'inkoni n'ibindi bikoresho bye, yicaye hasi aho ubona abantu bari kuza abandi bagenda.

Umutegarugori ukuze yicaye hanze, akenyeye igitenge, yambaye indi myenda irimo amabara, atekeye hanze akoresheje amashyiga n'inkwi n'isafuriya yabugenewe.

Umwana ari gukurwa amenyo kwa muganga abifashijwemo n'umuganga ubifitiye ubushobozi, afite utwuma tubiri mu ntoki tumufasha gukura amenyo, yambaye ga, umwana bari kumuha serivisi uko bikwiye yaje gushaka kwa muganga.

Umwana wicaye mu cyumba cy'ivuriro ari gukurwa amenyo n'umuganga ubifitiye ububasha n'ubushobozi wambaye ga mu maboko yombi, wambaye agapfukamunwa, akaba ari gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye byabugenewe mu gutanga iyo serivisi.

Inyubako ndende isa neza, yanditseho amazina yayo n'ibikorerwamo, aho itanga ubufasha ku baje bayigana, bakeneye ibijyanye n'amenyo, yaba ari inama bashaka cyangwa ubundi buvuzi butandukanye.

Umutegarugori, umugabo bicaye muri saro, mu cyumba gisa neza cy'umweru kirimo imitako itandukanye, umutegarugori ari kwereka umugabo ibyanditse ku gapapuro, uwo mugabo afata n'imiti ye.

Umutegarugori ukuze, ufite igikombe cy'amazi mu kiganza, ari guhabwa imiti n'undi mutegarugori, wambaye imyenda y'ubururu ubifite mu nshingano zo kumwitaho.

Umutegarugori ukuze ari kumwe n'abana babiri, umwe w'umuhungu wambaye umupira w'umutuku n'undi w'umukobwa wambaye umupira w'umweru, aho bari gufashanya kwarura amafunguro atandukanye, bayarurira ku isahani.

Umutegarugori ukuze ari kumwe n'umusaza, bari gukina umukino bawukinira ku meza bifashishije udukoresho twabugenewe, bose ubona ko bishimye bari guseka.

Abaturage barenze babiri bahagaze mu murima, bamwe muri bo bazamuye ibikoresho bifashisha bahinga, undi muri bo yazamuye ibimera, aho bose bafite akamwenyu ku maso.

Abategarugori batatu, babiri muri bo bambaye imipira isa, baranakuze, bari gukora imyitozo ngororamubiri kuko ibafasha byinshi ku bijyanye n'umubiri wabo no kwirinda indwara zitandukanye.

Umutegarugori ukuze, uhagaze mu gikoni, wambaye umupira wa kake n'undi mo imbere ujya gusa ubururu, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki n'imiti mu kindi kiganza agiy kunywa.

Umugabo ukuze wicaye mu ntebe wambaye umupira w'umweru, ari kwitabwaho n'umuganga ufite ibikoresho byo kwa muganga mu ijosi, amukoresha imyitozo ngororamubiri itandukanye amwitaho.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'umweru n'amarinete, ari kumwe n'umusore wambaye ishati, bari gusoma igitabo, iruhande rwa buri umwe bafite ibikombe, mu nzu isa neza isize irangi y'umweru.

Umukobwa mutoya ufite imisatsi y'imikara miremire ari gufasha umutegarugori ukuze gukora imyitozo ngororamubiri, amurambura amaboko.

Umutegarugori ukuze wambaye umupira w'ubururu, ufite agapapuro mu ntoki, ari kumwe n'umugabo ukuze na we ufite terefone mu ntoki, bafite ibintu runaka bari kurebaho imbere yabo hari amazi ahateretse n'ibiti.

Umutegarugori wambaye agashati k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ari guterwa urushinge n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati y'umweru ubishinzwe gutanga izo serivisi, inyuma yabo hari umugabo nawe wambaye agapfukamunwa.

Icyumba cy'inama kinini kiyobowe n'abagabo babiri bigisha uko bahagarika virusi ya Marburg, yateye mu bihe byashize aho yahitanye abantu bagiye batandukanye, bari gufata inama z'ukuntu bayihagarika.

Ibirangantego bibiri by'ibigo byasinye ubufatanye bushya mu kurwanya ibyorezo n'izindi ndwara, harimo nka SIDA, malariya, mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere muri Afurika.

Icyumba cy'ubuvuzi, kirimo abaganga bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa tw'ubururu, n'ingofero z'ubururu, bari kubaga umurwayi uryamye, ku gitanda bakoresha ibikoresho byabugenewe.

Umugabo n'umutegarugori bicaye muri saro, bari kumwe n'abana babiri b'abanyeshuri bambaye iniforume z'umweru n'ubururu n'undi umwe wambaye imyenda isanzwe, baganira ku bibazo bijyanye n'ubuzima bigiye bitandukanye.

Inzu ndende isa neza, ifite amabara yijimye, yubakishijwe ibirahuri byinshi, ifite imbere icyapa kiriho amazina y'ivuriro y'ibibaranga.

Icyumba cyo kwa muganga gifite idirishya rinini ricamo urumuri ruhagije harimo ibikoresho nk'ibitanda bishasheho matela zisa icyatsi ariko bitariho abantu n'ibindi bikoresho bifashisha bavura.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kwigisha umwana w'umuhungu amwerekera ku gishushanyo cya palasitike cy'amenyo, nyuma yaho ahagaze umu umugabo wambaye kositimu, umutegarugori w'umwirabura n'undi mutegarugori w'umuzungu.

Icyumba k'ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye bakoresha bavura abarwayi babaganye mu bihe bitandukanye, harimo icyo bareberaho uko umutima w'umuntu uri gutera n'uko uri kugenda.

Inzu isa neza icuruza imiti izwi nka farumasi yakira abayigana neza, hejuru yaho hariho ikirangantego cyabo n'amazina yabo ku bayigana bamenye uko hitwa.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ifite imiryango yubakishijwe n'ibirahure, higanjemo amabara y'umweru na kake, iri ahantu hatuje, nta bantu bahari bari kuhagendagenda cyangwa bahicaye.

Umuganga ubifitiye ubushobozi, wambaye itaburiya y'umweru, ikarita imuranga, ga mu biganza byombi, ari gutera ku rutugu urushinge umugabo wicaye, wambaye ishati ya karokaro.

Icyumba kinini cyiza giteretsemo intebe ndende n'ururabo ku ruhande rwiza rw'icyatsi, aho abaturage babagana bakabafasha muri serivisi zijyanye no kugorora umubiri mu bihe bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amabara y'umweru na kake, kirimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo n'icyo bifashisha bacishamo umurwayi ngo basuzume ingingo ze z'umubiri zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, harimo ibikoresho bifashisha bavura bitandukanye, harimo n'icyo bashyiramo uburwayi bareba urukingo rwaba rufite ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi harimo amarido menshi n'abandi bakozi b'abakobwa n'abahungu bambaye udupfukamuwa na ga mu biganza byombi bari gukora isuku muri icyo cyumba.

Inzu y'ubuvuzi nini isa neza y'umweru, irimo amatara menshi, hakabamo n'ibikoresho byo kwa muganga bakoresha, harimo matera, n'ibindi byose bikenerwa mu kuvura.

Inyubako isa neza yanditseho amagambo hejuru y'ubururu agaragaza ibyo bakora kubaje bahagana, imbere yabo hari jaride isa neza iteyemo ibiti by'icyatsi, n'iruhande rw'umuryango hakaba amavaze abiri nayo asa neza.

Umutegarugori wambaye ikanzu idoze mu gitenge, uteze igitambaro cy'umukara mu mutwe, yicaye hanze y'urugo, ari kuganirizwa n'umuganga w'umusore wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ufite agakoresho ko kwa muganga yambaye mu ijosi.

Icyumba cy'ivuriro giteretsemo amaraso abaturage bagiye batanga kugira ngo bafashe bagenzi babo bafite ikibazo, bibaye ngombwa ko babongerera amaraso. Apfunyitse mu dushashi twabugenewe aho biyarinda kwangirika. Muri icyo cyumba hakaba harimo n'abandi baturage bashaka izindi serivisi zitandukanye.

Ibitaro bya gihundwe bitanga serivisi zo kuvura amaso ku baje babagana, babifashijwemo n'abaganga babifitiye ububasha n'ubushobozi bakira abaturage bose uko baje babagana.

Inzu y'ubuvuzi ifite inzu zigerekeranye hasi haka amabara y'umuhondo, hejuru hakaka ay'umweru, imbere yaho hari jaride nziza iteyemo igiti kirekire, ibyo bitaro byakira abantu bose baje babagana bashaka serivise zitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro cyicayemo abaganga n'abaje babagana bashaka serivisi zitandukanye zo kwa muganga, harimo umutegarugori wicaye mu kagare uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyenda y'umweru, bose bambaye agapfukamuma abari muri icyo cyumba.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye imyenda ya siporo, ari gukora imyitozo ngororamubiri ayikorera mu nzu aho yarambuye umukeka, kugira ngo bimufashe gukora ibyo arimo neza.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze harimo imikasi, hakabamo udupfuko, hakabamo imiti y'amazi yoza ibisebe n'ibinini n'ibindi byinshi bifashisha mu buvuzi bwihuse bw'ako kanya.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi n'agakomo ka move ku kuboko, ari kwimenaho amazi aturutse mu icupa, aho yari ari mu igororamubiri, rifasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umutegarugori w'umuzungu wicaye mu biro ari kwitaba telefone, akikijwe n'ibikoresho bafasha bakora igorororamubiri kubaturage baje babagana mu bihe bitandukanye bafite ibibazo nk'ibyo.

Amacupa atatu y'umweru, arimo imiti ikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, ikaba ifasha mu kongera imbaraga mu kugabanya uburibwe, mu gihe wayikoresheje uko yabigenewe.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye isengeri isa nk'ivu, ari kunywera amazi mu icupa risa ubururu akora imyitozo ngororamubiri, imufasha kurwanya indwara zitandukanye, no kurinda ubuzima bwe.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye mu matwi udukoresho turangurura amajwi, yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashisha mu igorororamubiri igihe hari umuntu wagize ikibazo, cyicayemo n'uwavutse amaguru uri kwitabwaho n'undi amushyiriraho.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yabugenewe ariyo sengeri n'ipantaro, yicaye ku mukeka mutoya wogukoreraho siporo, imbere ye hari imashini, iruhande hari udukoresho baterura tw'ibiro, n'icupa ry'amazi yo kunywa n'umugozi.

Icyuma bifashisha mu igororamubiri, gifite amabara y'ubururu n'umweru na kake, gifite ubuhagarike bw'ijana na rimwe, mu butambike bwo ku ruhande mirongo icyenda na rimwe no mu butambike bw'imbere ni mirongo itandatu n'umunani.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'ubururu, n'umurimbo mu ijosi ufite ubwanwa, ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru, aho bimufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga ubifitiye ububasha n'ubushobozi yambaye agapfukamunwa na ga mu maboko yombi, ari gufasha uryamye ku gitanda mu igorororamubiri akoresheje ibikoresho byabugenewe mu ivuriro.

Icyumba kinini gifasha abashaka kugorora umubiri bakira abantu bagiye batandukanye, harimo ibikoresho bibafasha bitewe n'ibyo ushaka, harimo ibibafasha kwiruka, guterura ibiremereye n'ibindi byose waba ushaka.

Umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye uri mu gacupa gatoya k'umweru, kanditseho amazina yawo, aho wakorewe, uko ukoreshwa n'ibiwukozemo bigiye bitandukanye.

Ameza y'urubaho ateretseho ibikoresho bifashisha bakora imiti gakondo. Harimo uducupa bashyiramo igihe barangije kuyikora, ibimerara bayikoramo, n'ibikoresho bifashisha basekura imiti gakondo.

Umusambi urambitseho imiti gakondo twifashisha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, hariho ibimera bakoramo iyo miti n'aho bayisekurira n'indi yarangije gutunganywa.

Ikimera gitewe mu butaka, gifite amababi y'icyatsi twifashisha mu gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero, izo ku mubiri ndetse n'izindi.

Imiti gakondo iri mu bubiko butandukanye harimo ibitse mu mashashi, mu macupa no mu ikarito yifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye ku barwayi runaka bitewe n'uwaje abagana icyo akeneye.

Agacupa k'umuhondo karimo imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba ifasha abantu bagiye batandukanye kuvura indwara z'umubiri n'izindi zose zivurwa n'igikakarubamba n'ibindi bikoranye nacyo.

Amacupa abiri y'imiti gakondo ateretse ku meza, irya mbere rirasa umweru rikagira umufuniko w'umuhondo, irya kabiri rirasa umuhondo rikagira umufuniko wa shokora, hasi hakatiyeho umwembe uduceceti kuri ayo ameza y'urubaho.

Isabune y'umuti gakondo ikozwe mu gikarubamba na voka aho bifasha kuvura indwara zitandukanye z'umubiri harimo ibiheri, ibihara n'izindi.